Ni ngombwa ko mu gihe abanyeshuri bo mu mashuri abanza bagomba gucyura umukoro wo mu rugo, kandi bakawufashwa n'ababyeyi bababwira ko bawuhawe n'abarimu bawo.

Ni byiza ko ibigo by'amashuri byigishwa ibijyanye n'umuco ndetse n'ururimi runoze. Kugira ngo bamenye neza ibyaranze igihugu cyacu ndetse na Rwanda nziza.

Amashuri yisumbuye ni ngombwa ko bayahugura mu kwiga ibijyanye n'ubuganga kuko bifasha urubyiruko rw'ahazaza kuzakora akazi kanoze kandi kaboneye no gutanga serivisi nziza.